Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ukunze gusanga bigira ahantu hagiye hari ibyapa, ibishushanyo ndetse n'ibindi bishobora gutuma ubwonko bw'umwana butekereza mu buryo bwimbitse bityo akazavamo intyoza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakunze gukoresha bimwe muri ibi bikoresho mu rwego rwo kugira ngo bamenye guca imirongo, gupima inziga ndetse no gupima amafuruka ibi bikabafasha mu isomo ry'imibare.